Inzu iri mu bwoko bwa etaje, ikaba ari iya butike, iruhande rwaho hari imigozi iriho ubukapu bwo guheka, hakaba munsi y'ubwo bukapu hariho n'intebe z'imbaho zo kwicaraho, iruhande rwaho hari umuhanda urimo kugendamo umugabo.

Inzu ebyiri bigaragara ko ari iza butike, ziri impande y'umuhanda w'umukara. Inzu zikaba ziri mu gipangu, zikaba zizitiye. Imbere harimo ibiti kuri izo nzu, kandi bakaba bamanitseho igishashi kigaragaza cyangwa cyamamaza ibyo bacyura.

Inzu ya butiki irimo imiti yica udukoko, iyo miti iteretse muri etajeri, iyo miti ikaba irimo iyiganjemo iy'amacupa ndetse n'iyo mu mashashi.

Inzu za butike zo gucururizamo, imbere yaho hariigitanda bigaragara yuko kidafite amasaso. Hariho n'umugabo wicaye mu ntebe, ndetse n'undi muntu bigaragara yuko ari gukingura inzu, hejuru ku nzu hamanitseho ikintu cy'igishashi kigaragaza ibyo aho ngaho bacuruza, ndetse n'ipoto rishinze imbere y'aho ritwara umuriro w'amashanyarazi.